Ubukangurambaga bwo guhuriza urubyiruko hamwe ni uburyo bwiza bwashyizweho bwo kwigisha urubyiruko, uko rwakwiteza imbere, uko rwakwihangira imirimo, uko rwakwirinda ibikorwa bibi bigiye bitandukanye bishobora no kuba byabaviramo akaga.

Ubukangurambaga bwo gukangurira rubanda kwita ku bidukije ni uburyo bwiza kuko bituma bamenyaya uburyo bwiza bwo kwita ku bidukije, urugero nk'ibiti, ibiyaga, imigezi kandi ntitugire irihindagurika ridasanzwe r'ibihe, bigatuma tugira sezo nziza aho tudashobora kugira izuba ryinshi cyangwa se ubushyuhe bwinshi cyangwa se n'ubukonje bw'isi, bigatuma dukomeza kuba muri sezo nziza bitewe nuko bitaye ku bintu, ku bidukikije neza.

Ubutabera ni uburyo bwiza bwashyizweho hirya no hino ku isi, aho bakora imirimo myinshi cyane yo kugaragaza abarengana cyangwa se abari mu makosa, hagaragara abari mu makosa bakabihanirwa kandi n'abarenganurwa bagataha, ubwo ni uburyo bwiza bwashyizweho bwo kugira ngo hatazajya habaho abantu barengana.

Polisi y'igihugu ishinzwe umutekano wo mu muhanda, ishinzwe gushyiraho amategeko n'amabwiriza abakoresha umuhanda bagomba gukurikiza, akenshin na kenshi tuyisanga hirya no hino mu mihanda, aho tunyura kandi biba ari byiza rwose kuba hari umutekano ubona abantu bagucungira umutekano, bari ahantu hirya no hino hagiye hatandukanye.

Abapolisi bashinzwe umutekano, tugenda tubabona hirya no hino hatandukanye, ariko akenshi biba ari byiza kuko usanga, baba afite urugwiro baganira n'abantu kandi rwose bishimira gusabana, ibyo rero bikaba ari byiza kuko bituma abantu batabatinya cyangwa se ngo bumve ko ari abantu batara abo kwegerwa.

Akenshi ubwikorezi bw'ibicuruzwa by'ubwubatsi burakenerwa kandi bworohereza abubaka ko ibikoresho bibageraho vuba, ariko abantu bakaba batarasobanukirwa ko kuvanga kwivangaho ubwabo nibyobyo bikoresho by'ubwobazi bishobora kubateza impanuka niyo mpamvu mu gihe tuba dutwaye ibikoresho by'ubwubatsi mumodoka cyangwa se kuri moto tugomba kwirinda ko twagira undi muntu duhekana n'ibyo bikoresho by'ubwubatsiko bishobora kumuteza impanuka.

Ibyapa se cyangwa ibimenyetso by'umuhanda, ni uburyo bwiza bwashyizweho bwo kuyobora abantu, batiriwe bajya kubaririza ngo turava he, turajya he cyangwa se bakamenya aho bagomba guhagarara, igihe bishoboka cyangwa se n'aho biri ngombwa ko bagomba kuba bahagarara cyangwa se aho banyura cyangwa se icyerekezo bashaka kunyuramo, ibyo byapa akaba ari byo bibereka aho bagomba kunyura.

Icyapa cyo mu muhanda kigaragaza ko umuhanda ufite akandi gahanda gashamikiyeho gafite ishusho imeze nka ''y''; bukaba ari uburyo bwiza bugaragaza cyangwa se bwereka abashoferi ko umuhanda ukomeza ariko ufite akandi gahanda kawushamikiyeho.

Ibyapa biranga amazu n'imihanda, ni bimwe mu bimenyetso by'ingenzi kuko byorohereza buri wese kumenya aho ava, aho ageze kandi akenshi dukunda kubisanga ku mihanda, ku bipangu by'abantu, ubwo rero kandi biba byiza iyo tubibungabunze tukabyitaho ntitwemere ko ibigunda bibitwikira ngo bibe byabipfukirana, ubwo rero ibyapa biranga amazu n'imihanda ni uburyo bwiza cyane pe.

Kugenda mu muhanda ni uburyo bwiza kandi bworohereza abantu ingendo, aho usanga bamwe dukoresha amaguru abandi tugakoresha amamodoka, ariko biba byiza cyane cyane iyo twubahirije ibimenyetso byo mu muhanda kuko biturinda impanuka twaba dutwaye imodoka cyangwa se tugenda n'amaguru tukubahiriza ibimenyetso byo mu muhanda kandi tukubahiriza n'ahantu tuba tugeze.